Ikirahure cya terefone cyerekana amafaranga usigaranye; ayo wakoresheje, n'amaporogaramu amwe n'amwe ari muri iyo terefone, arimo nko guhamagara, n'ububiko bw'ibintu ufite muri telefone yawe.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Serivisi za banki ya kigali zegerejwe abaturage ahanga baragaragaza uko ibikorwa biri kugenda bikorwa aho bagaragaza ko batanga serivisi zo kubika, kubikura, kuguriza ndetse no kwakirana yombi abakiriya bakagira bati murakaza neza.

Imodoka nziza cyane y'umukara, ikaba ikodeshwa ariko ikaba ifite purake nziza cyane y'abaviyayipi. Bikaba bisobanuye yuko ishobora gutambuka isaha iyo ari yo yose kandi idahagaze.

Intebe yo kwicaraho y'umuntu umwe ikoze mu mabara abiri irya shokora niry'umukara, iteretse ahantu ishobora kuba ifatanya n'iyindi ariko ikagaragara yonyine ari imwe.

K'imbaho gateretse hasi bamaze kukabaza, barimo kugasiga amarangi, iruhande rwako hari ibikoresho byo gusiga amarangi, birimo uburoso busigishwa amarangi, barimo gusigisha ako kazu.

Umuhanda wa kaburimbo unyura imbere y'inyubako nini y'urusengero hari imodoka iparitse imbere y'urwo rusengero irimo gutambuka muri uwo muhanda n'umumotari utwaye moto ye imbere y'umuhanda unyura imbere y'iyo nyubako y'urusengero .

Isoko ry'imboga n'imbuto ririmo abagore bacuruza izo mbuto n'imboga n'ibikoresho bakoresha indobo, amabase, harimo: inyanya, intogi na karoti n'imiteja bacururiza muri iryo soko barimo.

Bunini igice cyo hasi haragaragaramo abantu bashinzwe umutekano w'inzu ndetse n'ibintu bimwe na bimwe mu byo baba barimo gusohora n'umuntu wakira abantu aho aba yicaye akoresha imashini ya mudasobwa.

Isoko rinini ry'imbuto n'imboga harimo pome, inyanya n'ibindi by'imboga bifunze mu makarito bicuruzwa, ibindi biri k'urundi ruhande byo ni ibyo, ni ibiri mu bubiko bizashyirwa mu isoko igihe kigeze ko nabyo bicuruzwa, kandi bitunganijwe neza n'isuku ihagije.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.